Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke, bifashisha ibishushanyo bitandukanye mu myigire yabo kugira ngo babashe kumva neza ibyo biga kandi babifate mu mutwe batazabyibagirwa.

Amashuri yigamo abanyeshuri b'inshuke ku rukuta hakaba hashushanyijeho amashusho y'inyamaswa ndetse n'umugabo wambaye karuvati, ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru.

Mu rwego rwo gushimisha abana biga mu mashuri y'incuke, ni byiza ko abarezi babigisha bicarana nabo ku mukeka maze bakabigisha barikumwe nabo kandi nabo bakagerageza kwisanisha kugira ngo abana batagira ubwoba.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke, ku rukuta rwacyo hashushanyijeho ibimera bitandukanye nk'imyumbati, ibishyimbo ,ndetse n'ibindi ibi bifasha abanyeshuri kumenya ibyo biga.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke, bagomba kwiga ariko buri cyo bize cyose bakagishushanya kandi bagashyiraho amagambo hasi kugira ngo babashe gusobanukirwa neza icyo ari cyo kandi buri uko baje mu ishuri bajye bakibona ku rukuta.

Ibikinisho bitandukanye biri ahantu hamwe harimo ibipupe ndetse n'ibindi, ibi bikaba byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke kugira ngo batagira irungu cyangwa se ngo bananirwe kuko baba bakiri abana bato badashoboye kwiga igihe kirekire.

Icyumba cyigishirizwamo abana bo mu mashuri y'inshuke, kikaba gihagazemo umusore wambage umupira wa orange, hakaba harimo ibishushanyo byinshi cyane biri ku nkuta zose bikaba bibafasha kwishima ndetse no kwiga neza.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza, ni ngombwa ko babakorera ibikinisho, bagomba kujya bakiniraho mu gihe batarimo kwiga kugira ngo babashe kwishima kandi babarinde kuba barambirwa.

Abarimu bigisha mu mashuri y'incshuke bakunda gukoresha ibishushanyo bitandukanye, kugira ngo abana babashe kumenya neza ibyo biga kuko baba bakiri bato.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke baba bagomba kugira ibikinisho kugira ngo babashe kuruhura ubwonko, bakine kandi bishimane n'abandi bityo batarambirwa kwiga.

Byiza ko abana biga mu mashuri y'incuke, bajya ku byicungo hanyuma bakumva umunyenga maze bakishima, ariko biba byiza iyo ababyeyi babo bajyanye nabo, bakabafata kugira ngo batagwa.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kwishima kuko abana bakunda ibipupe ndetse n'ibindi bintu bibashimisha. Iyo babikoresheje bituma biga neza.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke bakunda gukoresha ibishushanyo bigaragara kugira ngo babashe kwiga neza kandi birinde kurambirwa, hano turahabona ibishushanyo bitandukanye bifashisha mu kwiga.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke bagomba kugira ibishushanyo byinshi bitandukanye kugira ngo babashe kuruhura ubwonko kandi bishime, bityo bibafashe mu myigire yabo, babashe kwiga neza kandi bakurikire badasakuje.

Abana bo mu mashuri y'incuke ni byiza ko bakina umupira mu gihe cyo kuruhuka maze bagakina nta vangura bashyizemo aho abakobwa, abahungu, ndetse n'abafite ubumuga bakina kandi biba byiza iyo na mwarimu abashyigikiye.

Amashuri y'abanyeshuri b'incuke, aba yigaragaza kuko hanze ku rukuta haba hashushanyije ibintu byinshi bitandukanye bityo umuntu wese wayabona agahita amenya ko higira abana b'incuke, hanze hari ubusitani bwiza cyane baruhukiramo.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke ni byiza ko bakoresha ibishushanyo mu gihe bari kwiga, hari ibishushanyo bakoresha kugira ngo batarira.

Igikinisho cyifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke, kugira ngo babashe kuruhuka mu mutwe ndetse bakurikire ibyo biga neza nta kurangara.

Ni byiza ko abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakoresha amashusho mu gihe bari kwiga kugira ngo babashe gusobanukirwa neza ibyo biga kuko baba bakiri bato.

Irerero ry'abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke riba rishimishije cyane kuko riba ritatsemo ibintu byiza bitandukanye bigatuma abanyeshuri bishimira kuza kwiga ndetse ntibarambirwe kandi n'ibyo bize bakabifata mu mutwe.

Amashuri menshi y'inshuke ubu usanga imbere ku rukuta yashushanyijeho ibintu bitandukanye, ibyo abanyeshuri bigiraho, ibishyimbo, ibimera, inkoko kugira ngo abana b'amashuri y'inshuke bajye bamenya ibyo biga kandi babyibuke vuba.

Kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke bisaba kubereka n'ibintu, niba babigishije kwandika bakabereka nuko byandikwa, hano hari utunyoni dutatu bari kubereka uko duhindura amabara iyo tuvuye mu mazi akonje, bakadushyira mu mazi ashyushye.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunda kwifashisha ibishushanyo mu gihe bari kwiga kugira ngo babashe kumenya neza ibyo biga kandi bigume mu mitwe yabo, hano hari ibishushanyo bitandukanye iby'inka, abantu, imodoka ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, ni byiza ko bakoresha ibishushanyo kugira ngo babashe gusobanukirwa neza ibyo bari kwiga, niyo mpamvu babashushanyiriza ibishushanyo by'amabara atandukanye.

Ni byiza ko abana bo mu mashuri y'inshuke bajya babapfunyikira igikoma kuko baba bakiri bato batari bakomera, ni muri urwo rwego rero aha hari gurude yifashishwa mu gushyiramo ibintu maze bigakomeza gushyuha.

Abanyeshuri b'inshuke, ibintu byabo byose bikunda kuba bitangaje kandi bishimishije. Ni muri urwo rwego rero n'udukapu twabo bajyanamo amakayi, tuba dushushanyijeho udupupe kugira ngo abana babashe kumva bishimye.

Ibitabo by'abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke, akenshi biba byiganjemo ibishushanyo gusa, kugira ngo abanyeshuri babashe kwishima, kuko baba bakiri abana bato, bagomba kureba amashusho kugira ngo bakangure ubwonko bwabo.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke akenshi iyo bari kwiga bifashisha ibishushanyo iyo bari kwiga inyajwi, bakaba bafite ibishushanyo bishushanyijeho izo nyajwi, yaba ari imibare bakaba bafite ibishushanyijeho imibare kugira ngo babashe kwiga ibyo bari kubona.

Mbere abanyeshuri bo mu mashuri y' inshuke bigiraga mu rugo rw'umuntu ariko ubu na bo basigaye bubakirwa amashuri kugira ngo bajye bajya kwigira ahantu hafite isuku kandi hagaragara neza ku buryo bituma abanyeshuri bakura bazi isuku icyo ari cyo.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bakunda gukoresha amashusho mu gihe barimo kwiga, ibyo bikaba bibafasha mu myigire yabo ndetse no kumenya ibyo biga byihuse.

Ni byiza ko abana bo mu mashuri abanza, bakwiga hifashishijwe ibitabo by'Ikinyarwanda bifite amashusho kugira ngo babashe kumva neza ibyo biga.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza bikaba bisa nk'aho ari ikigo cy'amashuri abanza, kikaba gifite inzugi zifite amarange y'ubururu, imbere yacyo hakaba hari ubusitani buteyemo indabo nziza cyane.

Ishuri ryubatse neza, riteye amabara y'umweru, ubururu ndetse imbere yaryo hakaba haparitse moto, bigaragara ko higira abanyeshuri bo mu mashuri abanza kuko rifite ibyumba bike.

Imisarane y'abanyeshuri bo mu mashuri abanza, iba yubatse imwe ireba ruguru indi ireba hepfo, ku buryo abakobwa bajya ukwabo n'abahungu bakajya ukwabo. Ifite inzugi zisa ubururu.

Kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bisaba umuntu ushabutse cyane ,ku buryo azajya ababaza maze bose bakamusubiza. Hano hari icyumba harimo abanyeshuri bato bose bamanitse ikiganza, bigaragara ko bishimiye gusubiza.

Ni byiza ko abanyeshuri bo mu mashuri abanza babashyirira mu bitabo inkuru zishushanyije kugira ngo babashe kuryoherwa mu gihe bari kuzisoma ndetse bazakomeze kwibuka izi nkuru.

Ni byiza ko abanyeshuri bo mu mashuri abanza babagurira udukapu duto two gutwaramo amakayi kugira ngo amakaye yabo atazajya anyagirwa n'imvura cyangwa se akangirika kubera kuyatwara mu ntoki.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bakoresha ibikoresho bitandukanye mu myigire yabo, hano hari kimwe mu bikoresho byifashishwa kugira ngo babikemo ibyo bakoresha.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza baba bagomba kwifashisha ibyapa kugira ngo bandikeho ibyo bize, maze bazabashe kubifata mu mutwe ndetse no kubyibuka.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bagira udushushanyo ndetse n'udukinisho twinshi dutandukanye bifashisha mu kumenya amashusho ndetse no mu kwiga ibishushanyo by'amakare ndetse n'ibindi.

Kugira ngo abanyeshuri bo mu mashuri abanza babashe kumva neza amabara, ni byiza ko bayashushanya ahantu ndetse bakabasha no kubona neza uko asa ku buryo batayibagirwa mu gihe bavuye mu ishuri.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bagira ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibyo bifashisha mu gushushanya, mu kwandika ndetse no mu gukata impapuro. Hano hakaba hari amakereyo, amakaramu, imikasi ndetse n'ibindi bikoresho.

Buri munyeshuri wo mu mashuri abanza, aba agomba kuba afite igitabo cye, aho ari kugaragara abanyeshuri bicaye ku ntebe babiri babiri buri wese afite igitabo cye, imbere y'abo hari umwarimu nawe ufite igitabo, ubahagaze imbere uri kubigisha.

Icyumba cyo mu mashuri abanza kiriho ameza ateretseho ibikoresho bagenda bifashisha mu gihe bari kwiga nk'amakereyo, amamarikeri ndetse n'ibindi, kandi hari udutebe duto cyane duteye imbere y'ameza kubera ko ari abana bato batwicaraho.

Abarezi bigisha mu mashuri abanza harimo abagabo ndetse n'abagore bose bakaba bambaye amataburiya y'umweru kugira ngo nibajya kwigisha batiyanduza n'ingwa.

Ibitabo by'abanyeshuri bo mu mashuri abanza biba bikubiyemo ibishushanyo byinshi kugira ngo niba bize inkoko babashe no kubona igishushanyo cyayo kugira ngo babimenye neza kandi babashe kubyibuka vuba.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza kugira ngo babashe kwiga neza, harimo amarati amakereyo ndetse n'ibindi bitandukanye, ibi bibafasha mu myigire yabo maze bagatsinda.

Iterambere risigaye ryaraje aho abana bo mu mashuri abanza na bo basigaye bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe biga amasomo atandukanye, bityo bakagira ubwenge buhambaye ku bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga.

Ibitabo by'abanyeshuri biga mu mashuri abanza biba bishushanyijemo ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'ibyo biga, hanyuma hasi hakaba handitseho amazina y'ibyo bikoresho kugira ngo babashe kubyiga kandi bazi ibyo aribyo.

Ikigo cy'amashuri abanza gifite amadirishya y'ubururu, imbere yacyo hakaba hari abana batoya, bigaragara ko bari gukina. Bamwe bakaba bari kurira ibyicungo, abandi bakaba bari kuganirira hirya.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza ni byiza ko bakoresha ibishushanyo ndetse n'utundi dupimo mu gihe biga imibare bagafata imibare ishushanyije kugira ngo babashe kumenya neza iyo mibare uko yandikwa.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bagira udukinisho twinshi dutandukanye, bifashisha mu gihe bagiye mu kiruhuko, kugira ngo babashe gukomeza kwishima ndetse n'ubwonko bwabo babukangure kugira ngo babashe gutekereza neza.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza baba bagomba gusoma ibitabo bitandukanye by'imigani ,kugira ngo babashe kumenya amateka ndetse babashe no gusoma neza Ikinyarwanda.

Ibikoresho byinshi biri ahantu hamwe byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza, hakaba harimo ibitabo, amakereyo, imakasi, ndetse n'ibindi, ibi bibafasha mu myigire yabo.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bakoresha kugira ngo babashe kwiga neza, hakaba harimo ikereyo ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu myigire yabo.

Ibigo by'abanyeshuri bo mu mashuri abanza biba byubatse neza bifite ubusitani buhagije ku buryo abana iyo bagiye mu kiruhuko babona aho bakinira, bakidagadura ndetse bakabasha kuganira n'abandi bana bigana.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bo baba bamaze gukura, ntago ari kimwe n'abo mu mashuri y inshuke ,kuko abo mu mashuri abanza bo batangira kwiga kubara imibare, bityo bakayibashushanyiriza kugira ngo babashe kuyimenya uko yandikwa.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bagira ibishushanyo byinshi cyane ku buryo babijyaho bakarya umunyenga mu gihe badafite amasomo cyangwa se mu gihe babahaye akaruhuko gato, bigatuma abana bakomeza kwishima kandi n'imitekerereze yabo ikamera neza.

Radiyo Rwanda ifite gahunda yo kujya iganiriza abanyeshuri bato biga mu mashuri abanza, ikabaganiriza ku buzima bujyanye n'imyororokere ndetse nuko bakwitwara mu buzima bwabo bw'ubwangavu, aho umunyamakuru yasuye abana afite indangururamajwi ari kubabaza ibibazo.

Igitabo k'Ikinyarwanda cy'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bifashisha bino bitabo kugira ngo babashe kumenya gusoma neza kandi hariho n'amashusho.

Ibitabo by'abanyeshuri bo mu mashuri abanza biba bikubiyemo amashusho ndetse n'amagambo, kugira ngo abanyeshuri babashe kwishima kandi babashe kwibuka ibyo basomye mu gitabo.

Inyubako nziza cyane ifite amarange atandukanye harimo ubururu, umuhondo, ndetse n'umweru, bikaba bigaragara ko ari inyubako y'amashuri abanza.

Ibigo by'amashuri abanza biba byubatse neza cyane aho haba hari imbuga abanyeshuri baba bagomba gukiniraho kandi bikaba byubakiye mu nzira banyuramo kugira ngo baticwa n'izuba.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bagira ibikoresho bibafasha guca imirongo neza ndetse no kwiga imibare, gushushanya uruziga n'ibindi. Harimo amarati, amakereyo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abana bo mu mashuri abanza, basigaye babubakira ibikinisho byinshi kugira ngo babashe kwishimira kujya ku ishuri kuko baba bakiri bato, hari igihe banga kujya ku ishuri maze ababyeyi babo bakabura uko babigenza.

Ibitabo byo mu mashuri abanza bikunda kuba birimo inkuru zishushanyije, ibi bifasha abanyeshuri bato gusoma neza bakishima kandi bigatuma ibyo basoma bakomeza kubyibuka.

Amashuri menshi cyane yubatse ku murongo akaba afite amabati y'ubururu ndetse n'inzugi z'ubururu, imbere yazo hari ikibuga kinini cyane kikaba kirimo igiti kiriho idarapo ry'Igihugu.

Bimwe mu bikoresho umunyeshuri wiga mu mashuri abanza aba akeneye harimo amakereyo, amakaramu, umukasi, amarati, ibitabo, amakayi, imashini ndetse n'ibindi kugira ngo abashe kwiga neza atsinde.

Ibitabo by'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, biba birimo amashusho kenshi, kugira ngo basome amagambo barebe n'amashusho, babashe gusobanukirwa neza ibyo biga, ndetse bitume babasha kubyibuka.

Ibikoresho bikoreshwa n'abana biga mu mashuri abanza mu gihe bari kwiga imibare ndetse bakanabikoresha no mu guca imirongo, harimo amakereyo, amarati ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, kandi hari n'ikindi gikoresho cyo kubibikamo.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza harimo ibikoresho by'ubwubatsi. Muri ibyo harimo inyundo, imetero, urukezo ndetse n'ibindi, bikaba biri mu kabogisi biteretse ku mashini.

Abanyeshuri bo mashuri yisumbuye basigaye bahabwa amafunguro ku ishuri, hano hari icyumba batekeramo kirimo amasafuriya manini cyane bifashisha mu guteka.

Ikigo cyo mu mashuri yisumbuye, hanze hakaba hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umukara, bisa naho aba banyeshuri bari mu nama.

Icyumba kigari cyane kirimo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bose bicaye ku ntebe, barangamiye umuntu uri imbere yabo, bisa nk'aho arimo kubigisha cyangwa se ari kubaha ikiganiro.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'ubururu, aba banyeshuri akaba ari abiga ibijyanye n'imyuga y'ubwubatsi, bakaba bari kwitoza ibyo bize.

Ikibuga kinini cyane kiririmo ubwatsi butoshye, kikaba kihagazemo abanyeshuri bambaye imipira y'icyatsi bose isa. Imbere yabo hicaye abayobozi harimo n'umusirikare.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye amashati y'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu, bigaragara ko aba ari abanyeshuri biga ari abakobwa gusa, mo hagati muri bo hahagazemo umuzungu na we yicaranye na bo.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bahagaze imbere, basa nk'abari kuririmba kuko bifashe neza kandi bamwe bafite udupapuro imbere yabo. Bose bambaye amashati y'umweru na karuvati ndetse n'amajipo ya kake, amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara.

Icyumba kinini giteyemo intebe cyicayemo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye kuko bigaragara ko ari bakuru, bamwe bambaye imipira y'imbeho, abandi bambaye amashati y'umweru, bose bafite amakayi n'amakaramu baricaye bisa nkaho bari gukora ikizami.

Mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bagire ubwenge kandi bagire ubumenyi ni byiza ko bahubakira icyumba cy'ubushakashatsi kugira ngo bage bajya gukoreramo ubushakashatsi, hano hari abantu bari gusuzuma uko icyo cyumba cyakubakwa bareba n'ibikoresho birabura kugira ngo cyuzure.

Mu gihe cya Covid-19 nta munyeshuri wo mu mashuri yisumbuye ndetse no mu mashuri abanza winjiraga mu kigo batabanje kumupima umuriro, ni muri urwo rwego rero aha turahabona umukobwa wambaye impuzankano y'umweru, ijipo ya kake, amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara uhagaze bari gupima umuriro, bose bambaye udupfukamunwa.

lkigo cyo mu mashuri yisumbuye kirimo abayobozi batandukanye, aba bayobozi bose bakaba bambaye amajire, bari kugenda mu kigo, inyuma yabo hari ikigega gifite amabara y'umukara.

Icyumba kinini cyane kirimo abanyeshuri bigaragara ko ari abo mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'umweru ndetse na kaki.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'umweru hejuru ,ndetse n'umukara hasi ,bakaba basa nk'abari gukorera mu matsinda, mu cyumba cy'ubushakashatsi.

Igorofa rinini cyane riteye amarange y'umweru, amabati y'umutuku ndetse imbere yaryo hakaba hahagaze abanyeshuri benshi cyane, basa nk'aho biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bameze nk'abari kwifotoza kuko bamwe barasutamye abandi bakaba bahagaze.

Abanyeshuri bakuru harimo abakobwa ndetse n'abahungu bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye bari kugenda ku murongo, bambaye impuzankano y'ubururu ndetse hasi bambaye kake, hari ubabanjirije imbere wambaye ijire y'abantu ba Croix Rouge.

Abarezi bo mu mashuri yisumbuye bahagaze imbere y'umuryango bafite ibitabo mu ntoki n'amakaye mu ntoki, harimo umugore umwe ndetse n'abagabo babiri, hakaba hari abanyeshuri bahagaze inyuma yabo.

Umugabo uhagaze imbere y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'ubururu, baricaye bamuteze amatwi bisa nkaho ari kubagira inama.

Icyumba cyo mu mashuri yisumbuye kirimo umunyeshuri wambaye ishati y'umweru, ijipo ya kake ahagaze imbere bisa nkaho ari gusubiza, ahagaze areba ku kibaho.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abanyeshuri abahungu ndetse n'abakobwa bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankan y'umweru bose.

Ikibuga kinini cyane cyicayemo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, iruhande rumwe bambaye impuzankano y'umweru urundi ruhande bambaye impuzankano y'umuhondo, bisa nkaho bari mu nama.

Umunyeshuri wo mu mashuri yisumbuye, uhagaze wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru, akaba afashe igikombe mu ntoki ,bisa nkaho ari ikintu yatsindiye bakakimuha.

Abanyeshuri benshi bahagaze basa nk'abari kwifotoza, harimo abahungu ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki, ariko bamwe muri bo bambaye amapantaro y'umukara.

Abayobozi bo mu mashuri yisumbuye bahagaze hanze ariko hagati mu kigo, bikaba bigaragara ko basa nkabari kungurana ibitekerezo ku kibazo runaka kuko bose barahagaze basa nka'bateze amatwi.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye giteye amarange y'umuhondo, imbere yacyo hakaba hari ubusitani bwiza cyane ndetse muri ubwo busitani hakaba hari icyapa cyanditseho ngo Akarere ka Nyagatare, kikaba gifite amabara y'umweru ndetse n'ay'ubururu.

Ni byiza ko abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bagomba no kugira abayobozi babahagarariye, aho turi kubona abayobozi bahagaze imbere y'ishuri bakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba hari abambaye amajire n'abatayambaye.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, imbere yacyo mu kibuga hahagaze abagabo ndetse n'umugore umwe, bisa nkaho bari gukora inama kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Inyubako yo mu kigo cyo mu mashuri yisumbuye hakaba ari aho bakorera ubushakashatsi, muri iyi nyubako harimo abantu batandukanye bambaye amajire ndetse hakaba harimo n'umugore umwe.

Abanyeshuri benshi bicaye imbere y'amashuri munsi y'ibiti bakaba bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu, amasogisi y'umweru hamwe n'inkweto z'umukara. Bakaba bicaye bafite amakayi bigaragara ko bari mu nama.

Ikoranabuhanga risigaye ryariyongereye cyane, aho buri kigo cy'amashuri kiba gifite icyumba gikorerwamo ikoranabuhanga, abanyeshuri bakajyamo bagafata imashini zabo maze bakiga ibintu bitandukanye.

Abanyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano isa, bakaba bambaye amashati y'ubururu bwerurutse n'amajipo y'ubururu bwijimye, bakaba bahagaze barimo kureba umugabo uri imbere yabo ufite ibyatsi mu ntoki.

Abahungu ndetse n'abakobwa bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umukara hasi ku bahungu ariko abakobwa bambaye ijipo ya kake ndetse n'ishati y'umweru.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye basa nk'abari kurahira bakaba bari kurahira bafashe kuri Bibiliya, bafite udupapuro bari gusomaho ibyo bari kuvuga mu ntoki, bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse inyuma yabo hari abandi banyeshuri bicaye bari kwandika basa nk'abari kuzuza agapapuro.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'amashyamba menshi uri kugendamo abana benshi b'abanyeshuri, hakaba harimo abambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'abambaye impuzankano y'ubururu.

Umuyobozi w'umugore uhagaze, wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umuhondo, akaba ari umuyobozi wo mu kigo cy'amashuri yisumbuye, aho abagore na bo basigaye bagira uruhare mu kuyobora.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye mo imbere muri iki kigo hakaba hari ikibuga giteyemo utwatsi kandi hakaba hari n'ahantu haba ibyicungo abanyeshuri bajya gukiniraho mu gihe cyo kuruhuka.

Umugabo ndetse n'umugore bisa nkaho bari guha impano uyu mwana w'umunyeshuri, bigaragara ko yaba yaratsinze neza amasomo maze bakaba barimo kumuhemba, inyuma yabo hari ikigega gisa nk'umukara.

Ni ngombwa ko ibigo byose bigira ikirangantego cy'ishuri kuko bifasha mu gutandukanya abanyeshuri ikigo bigaho. Hano hari ikirangantego gishushanyijeho abakobwa babiri bambaye imipira ijya gusa nk'ivu.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bicaye mu cyumba bigiramo bose bakaba bambaye impuzankano y'umweru hejuru. Barimo kwandika bisa nkaho bari mu kizami, kuko buri wese ari kwandika mu ikayi ye.

Icyumba kinini kicayemo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bose bicaye bari kureba imbere, imbere yabo hakaba hahagaze umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse ufite n'igipapuro akaba amanitse ukuboko bigaragara ko ari kubagira inama.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'imyuga baba biga ibintu bigiye bitandukanye nko gushushanya, kubaka ndetse n'ibindi, hano hari ibishushanyo bitandukanye abo banyeshuri bakoze.

Ikayi yanditseho imibare bigaragara ko ari yo abanyeshuri ba kaminuza bakoresha n,abo bakaba biga ibijyanye n'imibare ndetse bakanandika mukaye yabo.

Ikigo cy'amashuri ya kaminuza, kiba gifite ahantu giparika imodoka, yaba iz'abanyeshuri cyangwa se iz'abashyitsi n'abarezi babigisha ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye, mo aha ngaha turabonamo amagare.

Abanyeshuri ba kaminuza ntago baba bameze nk'abandi banyeshuri kuko bo ku mazu yabo bigiramo cyangwa se ku byumba bigiramo haba handitse nimero ku buryo bababwira ati ni kuri nimero iyi n'iyi maze bagahita bajyayo.

Abanyeshuri bo mu mashuri ya kaminuza, bakunze kugira ibyumba binini cyane bikorerwamo inama cyangwa se yaba ari igikorwa kirahuza abantu bose, akaba ari byo bicaramo kuko aba ari binini kandi biteyemo intebe, ku buryo ntawabura aho yicara.

Icyumba kinini bigaragara ko ari icy'abanyeshuri bo mu mashuri ya kaminuza kuko harimo abantu bakuru, bicaye ku ntebe bose bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bari kubikoresha. Imbere yabo hahagaze umwarimu ariko bose bambaye udupfukamunwa.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri y'imyuga aho baba bashaka gukora ubushakashatsi butandukanye.

Abanyeshuri bo muri kaminuza ntago aba ari ngombwa ko bambara impuzankano kuko aba ari bakuru kandi bazi icyo bashaka, hano harimo abanyeshuri bicaye bari kwiga.

Igishushanyo kiriho umuntu wicaye arimo gucuranga gitari, bigaragara ko hari abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga bagishushanyije kugira ngo barebe niba koko ibyo biga barabifashe neza.

Abantu benshi bambaye impuzankano imwe bari muri sitade bigaragara ko ari abanyeshuri ba kaminuza barangije amashuri bose bakaba bamanitse ibiganza.

Ibikoresho bitandukanye bikozwe mu ibumba, aho bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri y' imyuga baba babikoze kugira ngo bitoze neza ibyo biga maze bazabashe kubikora mu gihe bazaba barangije amashuri.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'imyuga akenshi baba bazi gushushanya cyane, aho bahindura ahantu bakahagera ahandi handi ukaba utamenya ko ariaho mu gihugu cyacu, aba ushobora no kubahoha ifoto bakayihindura bakayishyira ahantu heza.

Kimwe mu dukoresho dukoreshwa mu muco nyarwanda dukunda kuba tuboshye mu mikenyeri ariko abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga bagerageje kukabumva bakiganye badakoresheje imikenyeri ahubwo bagakoresha ibumba maze bagakuramo igikoresho.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari inyubako y'amashuri ya kaminuza, ikaba isize amarangi y'umweru, amadirishya y'ubururu ndetse ifite n'amapave hasi.

Akabati karimo ibikoresho bitandukanye, bikozwe mu ibumba. Ibi akaba ari iby'abanyeshuri biga imyuga, bakora mu gihe bari kwitoza ibyo bize.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'imyuga, bagenda bakora ibintu bitandukanye, nk'abiga gushushanya bashushanyije ikarita iriho urutoki, akaba bigaragaza ko ibyo biga baba babyumva.

Icyumba kigamo abanyeshuri ba kaminuza kirimo intebe zisa ubururu, izi ntebe bakaba bazicaraho mu gihe barimo kwiga cyangwa se bari mu nama.

Intebe yo mu mashuri ya kaminuza ikaba irambitseho igipapuro cy'umweru ndetse n'ikayi ntoya, bigaragara ko ari umunyeshuri uvuye mu kizami ubihashyize.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe buri wese akaba yicaye ku ye, bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza. Bakaba bicaye neza bameze nk'abari mu nama aho buri wese ari kureba imbere.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga usanga biga imyuga itandukanye aho hari abiga gushushanya, kubaka, kubaza ndetse n'ibindi hano hari ifoto ishushanyijeho umugore uteruye umwana, bigaragara ko ari bano banyeshuri bayishushanyije.

Intebe zo mu mashuri ya kaminuza ziba zitandukanye n'intebe zo mu mashuri abanza cyangwa se ayisumbuye kuko ho haba higamo abanyeshuri bakuru kandi bazi ubwenge, bityo rero babashyiriraho intebe nziza baricaramo byoroshye.

Icyumba kinini kirimo abantu babiri, bakaba bari kuganira ku masomo yabo, bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga, aho harimo n'ibikoresho bakoresha.

Bimwe mu bikoresho abanyeshuri biga imyuga bakoresha harimo ibumba kuko ribafasha mu gufatanya ibintu ndetse no gukora ibikoresho biramba kuko ntago ripfa kuvunguka.

Icyumba kirimo ibikoresho bikozwe mu ibumba, aho bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga babikoze mu gihe bari bari kwitoza ibyo bize kugira ngo bazabashe kurangiza amashuri babizi neza.

Ikibuga kirimo abantu benshi bigaragara ko ari abanyeshuri bo mu mashuri ya kaminuza, bambaye imyenda bambara igihe barangije amashuri yabo, akaba ari imyenda y'umukara ndetse n'icyatsi, bose bamanitse amaboko.

Icyumba kinini cyane kicayemo abanyeshuri bo mu mashuri ya kaminuza, bakaba bicaye basa nk'abari kwiga kuko bose bafite amakaye bari kwandika ariko bo si ngombwa ko bambara impuzankano kuko baba bakuze kandi bazi icyo gukora.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bikozwe mu ibumba, bigaragara ko ari abanyeshuri biga imyuga babikoze kugira ngo babashe kumenya neza ibyo biga.

Inyubako ngari irimo abantu batandukanye bigaragara ko ari abanyeshuri biga muri kaminuza, hakaba harimo abagore, abagabo, abakobwa ndetse n'abasore.

lcyumba kirimo intebe zifite amabara y'ubururu, akaba ari zo abanyeshuri biga imyuga bicaraho mu gihe bari kwiga. Iruhande rwazo hari ibikoresho bitandukanye bifashisha.

lcyumba cy'ishuri rya kaminuza kirimo intebe z'ubururu, ndetse hakaba harimo indi ntebe ikozwe mu giti ,ku ntebe y'ubururu harambitseho telephon iri kwaka ,bigaragara ko ari umunyeshuri wayihibagiriwe.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga bakaba biga ibintu bitandukanye, aho hari abiga gushushanya, kubaka ndetse n'ibindi, hano hari igishushanyo k'ikibabi bigaragara ko ari icyo aba banyeshuri bashushanyije barimo kwitoza ibyo biga.

Icyumba kicayemo abanyeshuri ba kaminuza ariko bikaba bigaragara ko bose bafite impamyabumenyi zabo kandi bambaye n'imyenda bambara iyo barangije amashuri bityo bakaba bameze nk'abari kwifotoza kugira ngo bajye bibuka umunsi wabo.